Ni inama yabereye mu nzu nziza cyane aho yiganjemo abantu batandukanye barimo; abagore, abagabo ndetse n'urubyiruko, baganira ku bigendanye n'icyateza imbere abanyarwanda muri rusange.

Umugore wambaye ishati y'ikigina ndetse ufite n'igitenge wambaye amataratara yitabiriye inama aho ari kuganiriza abaturage ayobora ku bigendanye n'igihe bagezeho cyo kwirinda bihagije.

Inama yahuje abaturage ndetse n'abayobozi bo mu nzego zitandukanye biganjemo n'abashinzwe umutekano nk'abasirikare n'abapolisi, bombi bari kuganira ku bigendanye n'umutekano wo mu muhanda n'uburyo wabungwabungwa.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu, wambaye amataratara ndetse ufite mikoro uri muri sale nini cyane, aho yitabiriye inama irimo abaturage ayobora baganira ku bigendanye n'imiyoborere ndetse n'imitangirerwe ya serivisi bahabwa.

Inama yakoranyirijwemo abayobozi batandukanye ndetse buri muyobozi aho yicaye afite icupa ry'amazi ndetse bari mu nyubako nziza harimo n'ibendera ry'u Rwanda, barimo baraganira ku bijyanye na sitatisitike y'abanyarwanda.

Iyi nama ikomeye yahuje abaturage ndetse n'abayobozi babo batatse ibitambaro bisa n'ibendera ry'u Rwanda, aho bari kuganira ku ngingo zitandukanye.

Ni inama ikomeye cyane yahuje abaturage n'abayobozi, aho bateguye amatente agaragara neza cyane, ndetse bakanadekora ibitambaro bifite amabara asa n'ibendera ry'u Rwanda. Barimo baraganira ku bigendanye n'umutekano wabo mu buzima bwa buri munsi.

Ni abayobozi batandukanye bambaye imyenda myiza, amakoti, bateje ndetse buri wese akaba amaze kunywa. Bicaye ku meza, ahantu hari indabo nziza, bari mu nama itegura ibijyanye n'imiyoborere yabo.

Umugabo w'igihagararo wambaye ishati y'umweru yiganjemo nandi mabara, uhagaze imbere yabantu bitabiriye inama arimo kubaganiriza ibyo inama igamije kwigaho.

Ni umuyobozi wa RDB mu Rwanda, yambaye ikoti ryiza cyane ndetse na karuvati, yitabiriye inama ikangurira urubyiruko rw'u Rwanda, gushora imari ndetse no kwihangira imirimo nk'isoko y'iterambere rirambye.

Inama yabereye muri sale ngari cyane, sale isize amarangi y'ubururu, yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye abayobozi b'imirenge ndetse n'abashinzwe umutekano bari kuganira ku bigendanye n'imiyoborere y'abaturage.

Abayobozi mu nzego zitandukanye, bahuye barimo baraganira ku bijyanye n'imiyoborere. Umuyobozi wabo wambaye agapira k'umweru, afite mayikorofoni ndetse na ajende, arimo arabasangiza ingingo z'ingenzi bagiye kuganiraho.

Ni inama yabereye mu nzu nziza cyane isize amarangi y'umweru, yitabiriwe n'abayobozi mu nzego zitandukanye, bafite amazi ndetse n'imashini. Barimo baraganira ku bigendanye n'abafatanyabikorwa ba USAID, twiyubake.

Ababyinnyi b'abagabo bafite amacumu ndetse n'ingabo bambaye imigara bari kubyina intore kimwe mu kimenyetso kigaragaza umuco nyarwanda, ni byiza ko usigasirwa kugira ngo utazavaho wibagirana.

Mu muco w'abanyarwanda kera twari tumenyereye ko abanyarwanda bagira inyogosho bita amasunzu, umugabo n'umugore bambaye inigi nini cyane ndetse imitwe yabo ikaba yogoshe amasunzu, bigaragara neza cyane mu buryo butandukanye.

Umubyinnyi wa Kinyarwanda, ukenyeye imishahara myiza cyane ndetse wambaye amayugi ku maguru, abyina imbyino za gakondo, kimwe mu biranga umuco nyarwanda kandi ukwiye gusigasirwa.

Abagore bambaye neza cyane bakenyeye imikenyero y'umutuku ndetse n'ubururu barimo barabyina neza, ni umuco nyarwanda kubyina bateze amaboko nk'inyambo ndetse n'iby'agaciro kuwusigasira.

Umukobwa mwiza wambaye imishanana y'umweru ndetse wakoze amasunzu mu mutwe. Urimo kubyina imbyino za kinyarwanda. Ni umuco mwiza kuwusigasira imbyino za kinyarwanda cyane ko ari ibintu binezeza ababirimo.

Inyubako nini cyane irimo amatara amurika neza ndetse n'ibitambaro bakoresheje bataka impande zitandukanye yitabiriwe n'abantu batandukanye ndetse n'abagore bakenyeye neza nk'uko bigaragara mu muco nyarwanda.

Ni abakobwa beza bambaye imikenyero ndetse baniteze mu masunzu yabo y'imisatsi, babyina imbyino nyarwanda nk'ikimenyetso cyo gusigasira umuco.

Ni ababyinnyi b'abasore bambaye neza cyane amashati y'umweru ndetse bikenyeye imishanana y'umweru n'umukara, bambaye n'amayogi ku maguru. Barimo barabyina imbyino gakondo nk'ikimenyetso cy'umuco nyarwanda.

Ni abaturage batandukanye biganjemo abagabo, abagore, abasaza ndetse n'urubyiruko aho bitabiriye igikorwa cy'iserukiramuco, ni byiza ko umuco usigasirwa kugira ngo udacika.

Ni ingofero ni nziza cyane iriho umugara ndetse n'ingoma bifashisha bavuze. Ibi ni bimwe mu birango by'umuco gakondo w'abanyarwanda.

Ni isoko rinini cyane ryiganjemo ababyeyi b'abagore aho baje gucuruza ibikoresho gakondo tumenyereye cyane ku izina ry'ibirago, ni byiza ko tumenye ibikoresho byakoreshwaga mu muco nyarwanda.

Abakozi bakora mu bigendanye no gukanika umuriro w'amashanyarazi. Bambaye imyenda y'akazi irimo ibisarobeti ndetse n'ingofero zabugenewe, aho baje ku rugomero rw'amashanyarazi kugira ngo barebe ahaba harangiritse basane.

Ni umubyeyi w'umugore wambaye imyenda yo mu bitenge, afite imashini idoda, imakasi ndetse n'urudodo yifashisha mu kudoda imyenda y'abaturage kandi afite n'imetero yifashisha apima abo agiye kudodera imyenda.

Abagabo babiri bambaye amapantaro y'imikara ndetse n'udupira tw'ubururu bari hejuru y'inzu isakaje mubati itukura aho barimo guhanika umurasire ukurura amashanyarazi aturutse ku zuba.

Ni ku rugomero rw'umuriro w'amashanyarazi, aho higanje ibikoresho bitandukanye biri kuri uru rugomero, byifashishwa mu gutunganya umuriro w'amashanyarazi, uri kuri uru rugomero.

Inyubako nini cyane isize irangi ry'umweru ibitswemo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu bukanishi bw'umuriro w'amashanyarazi biriho insinga nyinshi cyane ziganjemo iz'umukara n'umutuku zifashishwa mu gutwara umuriro ziwuvana mu bikoresho bimwe ziwujyana mu bindi.

Ni amapoto abiri ateganye yubakishije ibyuma. Azwiho cyane ko yifashishwa mu gutwara umuriro w'amashanyarazi, ayavana mu gace kamwe ayajyana mu kandi. Ni byiza ko ibikorwa remezo nk'ibi bibungwabungwa cyane.

Ni isantere ituwemo abaturage bakeya yiganjemo ibihingwa by'urutoki ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye nk'ibishyimbo n'ibiti by'imbuto, iruhande rw'aho hari insinga z'amashanyarazi ziyavana mu gace kamwe ziyajyana mu kandi.

Ni ipoto rinini cyane ryiganjeho imigozi itwara umuriro w'amashanyarazi ijya mu bice bitandukanye, umukozi ukora mu bijyanye n'umuriro w'amashanyarazi arimo gusuzuma ahaba hari ikibazo gituma umuriro w'amashanyarazi udadakoreshwa neza uko bikwiye.

Ipoto ryubakishije ibyuma bitandukanye, ririho insinga nyinshi zerekeye mu byerekezo bitandukanye zitwara umuriro w'amashanyarazi ziwugeza ku baturage baherereye mu bice bitandukanye.

Icyapa kinini cyane kigizwe n'amabara y'umutuku ndetse n'umweru kigaragaza ko inyubako iri ruhande rwacyo ari ishami ry'ikigo gitanga umuriro w'amashanyarazi, ni byiza ko tukiyoboka igihe dukeneye serivisi zitandukanye z'umuriro.

Ni inyubako nziza cyane, yiganjemo abantu bari kujyamo bambaye imyenda y'akazi, bakora mu bijyanye n'umurimo wo gukanika, ibikoresho by'umuriro w'amashanyarazi.

Ni abakozi biganjemo abagabo cyane bambaye amajire ndetse n'ingofero bakorana mu kazi, baje kureba ku bigendanye n'umuriro w'amashanyarazi kugira ngo barebe aho insinga zagize ikibazo babashe kubikanika.

Ni abaturage benshi biganjemo abagore n'abagabo, abasore n'inkumi bakoraniye ku biro by'Akagari muri jaride y'aho aho baje kuganira ku bugendanye nibyateza imbere Akagari kabo.

Ni ikiraro kinini cyane cyubakishije ibyuma bikomeye cyo mu kirere kiri kugendwaho n'abagabo babiri. Giherereye rwagati mu ishyamba, aho bigaragara ko cyakemuriye abaturage ibibazo byo kwambuka bava hamwe bajya ahandi.

Ni inyubako nziza cyane ya Leta iri ahantu hirengeye isakaje amabati y'umweru ndetse iteye irangi ry'ubururu, itangirwamo serivisi zitandukanye aho bigaragara ko hari n'abaturage bicaye iruhande rwayo bategereje guhabwa serivisi za Leta.

Ni inyubako yubakishije amatafari ndetse bigaragara ko iri mu nzira zo kuvugururwa neza aho bayikuyeho amabati yari ashaje kugira ngo bashyireho amabati mashya irusheho kugaragara neza cyane.

Ni inyubako nini cyane y'imyidagaduro, irimo ibitambaro byiza bigizwe n'amabara agize Ibendera ry'u Rwanda. Abaturage barishimye kandi banejejwe cyane n'inyubako ya Leta isojwe kubakwa.

Ni inyubako nini ya Leta yiganjemo ibikoresho bitandukanye, iriho ibyapa byinshi byiganjemo iby'umweru ndetse n'iby'ubururu byanditseho amagambo agenda agaragaza serivisi zitangirwa mu byumba bigize iyi nyubako.

Inyubako ya Leta izwi nk'umurenge iriho abaturage baje gushaka serivise zitandukanye hariho ibendera ry'u Rwanda ndetse hari n'ubusitani bwiza cyane abaturage bashobora kwicaramo igihe bategereje guhabwa serivise bakeneye.

Ni inyubako nziza cyane isize amarangi y'umweru ndetse n'ubururu, iruhande rwayo hariho ubusitani buteyemo ibiti bitandukanye. Byifashishwa mu kuzana umwuka mwiza ndetse n'aho abaturage bahererwa serivisi za leta zitandukanye.

Inyubako nziza cyane yiganjeho ibyuma bisize amarangi y'icyatsi ndetse n'umuhanda wakozwe neza cyane n'abaturage mu gikorwa cy'umuganda, ni byiza ko ibikorwa rusange bifitiye inyungu igihugu byitabirirwa.

Inyubako nziza cyane yanditsemo amahame na kirazira ndetse n'indangagaciro z'umudugudu, tumenyereye mu Rwanda ko izina ry'ibicumbi bigaragaza indangagaciro na kirazira z'umunyarwanda.

Ni inyubako ya leta ngari cyane ifite amarembo magari, igaragara nka gare aho abaturage barimo bategereje imodoka zibavana hamwe zibajyana ahandi. Hararinzwe kandi ni iby'agaciro kugira aho abantu bategera kugira ngo batagira ikibazo k'ingenzi.

Ni inyubako ndende iri iruhande rwayo umuserege munini cyane wubatsweho ikiraro kinyuze hejuru, ni byiza ko kibungabungwa kugira ngo urugendo rw'abaturage rukomeze gukorwa mu buryo bworoshye.

Ni ikiyaga kinini cyane ku nkengero zacyo hari inyubako zitandukanye aho ba mukerarugendo babasha kuruhukira iyo baje gusura icyo kiyaga, ni ahantu heza ho gutemberera igihe umuntu yumva ashaka kuruhuka cyangwa se kureba ibyiza bitatse u Rwanda.

Ni inzu ngari cyane iteye amarangi y'umweru ndetse ikikijwe na jalide iteyemo indabo na pasparume. Ni urukiko rutangirwamo serivisi zo gukemura ibibazo, hagati y'abaturage n'abandi.

Abagabo bambaye amapantaro meza ndetse n'amakoti, bambaye na karuvati, bahagaze mu muhanda wegeranye n'inyubako za leta. Barimo barishimira ibikorwa leta imaze kugeraho cyane cyane binyuze mu nyubako nziza zigezweho.

Ni inyubako nini cyane ya leta, yubatse ahantu hirengeye, iriho iruhande rwayo abagabo bambaye imyenda y'umukara. Inyubako yitabirirwamo inama zitandukanye ndetse n'iby'agaciro kuba iri hafi y'abaturage kuko babona aho bahura n'abayobozi babo byoroshye.

Ni inyubako nziza cyane iriho ibendera ry'u Rwanda ndetse n'abayobozi b'umurenge. Mu Rwanda imirenge iri mu nzego z'ibanze, zifasha abaturage kubona serivisi zitandukanye baba bakeneye.

Ni inyubako nini cyane yubakishije amatafari ndetse isize amarangi y'umutuku. Ifite inzugi z'ibirahuri kandi isakaje amabati y'umweru. Ni inyubako ya leta ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, bifitiye inyungu abaturage.

Ni inyubako ya Leta, yubatse neza ndetse ifite geti nini cyane, hari abana bambaye amapantaro y'umukara ndetse n'amashati y'umweru, ni aho Leta iza kugororera abana basanzwe mu byaha bitandukanye.

Ni ikiraro kinini cyane cyo mu kirere giherereye ahantu ho mu ishyamba kiri kugendaho imodoka nini zitandukanye zitwara ibicuruzwa, ni byiza kukibungabunga kuko gifitiye akamaro kanini abaturage mu kubafasha kuva mu gace bajya mu kandi bitabagoye.

Ni ikigo k'ishuri rinini cyane gifite ubusitani bwiza cyane buteyemo indabo ndetse n'ibiti bitandukanye aho mu busitani hitabiriye inama y'abaturage batumiwe n'abayobozi babo babaganiriza ku bigendanye na serivisi bahabwa n'ubuyobozi.

Inama yabereye mu busitani bwiza cyane buri iruhande rw'inyubako ya Leta, yitabiriwe n'abayobozi b'inzego zitandukanye ndetse yiganjemo n'abashinzwe gucunga umutekano w'abaturage aho bari kuganira ku bigendanye no kubungabunga ibidukikije.

Ni inyubako nziza cyane ya Leta isize amarangi y'umweru ndetse n'ubururu, aho habereye inama yahuje abaturage n'abayobozi baganira ku bigendanye no kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda.

Inyubako nziza cyane yahurijwemo abayobozi mu nzego zitandukanye ndetse n'ab'inzego z'umutekano bari kuganira ku bigendanye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu.

Ni urubyiruko rwiganjemo abasore n'inkumi, abagabo ndetse n'abagore bambaye imyenda y'umukara ndetse n'imipira y'icyatsi. Barimo barafatanriza hamwe gukorera igishanga, bakuramo ibitari ngombwa. Ni byiza gufataniriza hamwe gukora ibiteza imbere igihugu.

Ibirori byitabiriwe n'abantu benshi cyane, hari amatara amurika ndetse bari mu matente, ababyeyi n'abamama ndetse n'abapapa bambaye neza cyane, bitabiriye inama ibabwira ku bijyanye n'ubutabera ndetse n'uburenganzira bwa muntu.

Ni inama yabereye ku mbuga y'umudugudu, abaturage bamaze gukora igikorwa cy'umuganda, barimo baraganirizwa ku bigendanye n'ibikorwa bya leta ndetse n'uko bagomba kubaha no gukurikiza amabwizwa ashyirwaho na leta mu kubungabunga umutekano w'igihugu.

Inama yabereye mu nzu nziza cyane yitabiriwe n'abayobozi bo mu nzego zitandukanye ndetse n'abasirikare, barimo baraganira ku bigendanye n'imicungire y'umutekano mu gihugu cy'u Rwanda.

Ni igikorwa leta yateguye ndetse hari abaturage benshi bitabiriye kumva ibyo umuyobozi ababwira, abakangurira kwita ndetse no kumenya ku bijyanye n'uburenganzira bwabo ndetse n'ubutabera mu Rwanda.

Abagore bambaye amakanzu maremare ndetse bamwe muri bo bambaye n'udupfukamunwa ndetse n'abasaza batandukanye bahuriye mu nama aho bari kuganira ku bijyanye n'ubutabera ndetse n'uburenganzira bwabo mu Rwanda.

Ni abaturage baje mu nama kuganira n'abayobozi babo, iruhande rw'ubusitani bwiza, aho bari kuganira ku bigendanye n'ubutabera ndetse n'uburenganzira bwa muntu.

Ni abaturage bagize umudugudu, biganjemo ababyeyi, urubyiruko, bicaye mu gacaca ku zuba, bamwe bitwikiriye imitaka. Barimo baraganirizwa n'abayobozi babo ku bigendanye n'ubutabera mu Rwanda.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'agapira k'umukara uri iruhande rw'imodoka arimo araganiriza abandi bagabo bagenzi be kujyanye n'uko bashobora kubungabunga uburenganzira bw'ikiremwamuntu.

Mu muhanda munini wa kaburimbo, harimo imodoka y'umweru irimo kugendera mu mukono wayo uko byagenwe. Iruhande rw'uwo muhanda hakikijwe uduhanda tw'abanyamaguru ndetse n'inyubako zitandukanye zikorerwamo ubucuruzi.

Ni umuhanda mugari wa kaburimbo uherereye iruhande rw'amaduka acuruza ibintu bitandukanye, umuntu utwaye imodoka igenda itwara imizigo atwayemo n'umuntu uyiri hejuru, ni byiza ko dukoresha neza umuhanda kugira ngo tubashe kugera ku mutekano mwiza wo mu muhanda.

Ni umuhanda munini cyane wa kaburimbo urimo uragendwamo n'imodoka zitandukanye z'umweru ndetse n'iz'umukara, iruhande rw'aho hari inzu nyinshi ziganjemo iziteye amarangi y'umweru zikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye.

Isoko rigari cyane ryiganjemo inyubako ndetse hari amamoto, amamodoka ndetse n'amagare, byifashishwa mu gutwara abagenzi, bibavana muri iryo soko, bibajyana ahandi. Hari n'imodoka yifashishwa mu gutwara imizigo, iyivana muri iryo soko.

Ni mu muhanda wa kaburimbo ndetse ni muri santere ngari cyane haparitse imodoka iruhande rw'igipangu. Muri uyu muhanda umugabo wambaye agapira ndetse n'inkweto, aratwaye igare mu muhanda wa kaburimbo. Ni byiza ko amenya amategeko y'umuhanda kugira ngo yirinde impanuka.

Ni moto nziza cyane itwawe n'umumotari yambaye inkweto z'umweru n'ipantaro y'ubururu uri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, uyu muhanda ukikijwe n'utundi duhanda duto ku ruhande tw'abanyamaguru banyuramo kugira ngo hirindwe impanuka zitandukanye.

Umuhanda munini wa kaburimbo urimo abamotari babiri, umwe arimo aratwara yambaye kasike ariko undi nta kasike yambaye, iruhande rwabo hari uduhanda duto tw'abanyamaguru, ni byiza ko umumotari yambara kasike kugira ngo yirinde ibyago byagira aramutsa akoze impanuka atayambaye.

Ni umushoferi wambaye ikasike y'ubururu, agapira k'umweru ndetse n'ipantaro itukura atwaye umugenzi kuri moto na we wambaye ikasike barimo baragenda mu muhanda uko byagenwe ku ruhande rwabo hariho utuyira abanyamaguru banyuramo.

Ni muri gare, aho abatanga amatike yo kugenda mu modoka barimo kwakira abagenzi bava mu gace bajyamo kandi bakabereka imyanya yo kwicaramo mu modoka kugira ngo babashe kugerayo amahoro.

Ni muri gare aho imodoka zitandukanye zihurira zije gutwara abagenzi zibavana mu gace kamwe zibajyana mu kandi. Abatanga serivisi zo gukata amatike barimo kwakira abagenzi, babahereza amatike kugira ngo babashe kubona imodoka.

Inyubako ndende igereretse inshuro zigera muri eshatu iruhande rwayo hari ubusitani bwiza cyane ndetse hari na parikingi imodoka zihagararamo iyo zihaje ni iby'agaciro cyane ko inyubako nk'iyi igira aho ibinyabiziga bigomba guhagarara.

Inama yabereye mu busitani bwiza cyane hubatse amatente yubakishije ibitambaro bigize amabara y'ibendera ry'u Rwanda, yitabiriwe n'abashinzwe umutekano barimo Abapolisi, Abasirikare ndetse barimo kuganiriza abaturage ku bigendanye n'umutekano.

Inzego zishinzwe kugenzura umutekano mu Rwanda higanjemo abapolisi, abasirikare ndetse n'abo tumenyereye ku izina ry'abadaso, bicaye muri jaride aho barimo kuganira ku bijyanye n'imbaraga bashyira cyane cyane mu gukaza umutekano w'abaturage.

Ni umurima ukikijwe n'ibiti byinshi bitandukanye ku ruhande rwawo rw'ibumoso ndetse n'urw'iburyo, biganjemo abagabo n'abagore b'imbaraga bafite amasuka bari guhinga bashyizemo umwete.

Ni inama yabereye mu busitani bwiza cyane, aho yahuje abaturage ndetse n'abayobozi babo, barangajwe imbere n'abayobozi babiri b'abagore ndetse n'umugabo, babaganiriza ku bigendanye n'umutekano w'ikiremwa muntu.

Umunyamakuru urimo gusobanura ibijyanye n'umutekano mu Rwanda tumenyereye ko Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda ya gerayo amahoro niyo mpamvu polisi y'u Rwanda ihora ishishikariza abantu kugenda neza mu muhanda kugira ngo umutekano wabo ukomeze kubungwabungwa.

Ni abantu benshi biganjemo abagabo bambaye amakoti y'ubururu ndetse n'amapantaro y'ubururu, si bo gusa ahubwo bari kumwe n'abagore, aho bari kugenda bareba ibikoresho bikorwa mu biti hifashishijwe ububaji ndetse bagakoramo ibikoresho bitandukanye.

Abagabo bambaye bote ndetse n'amakoti bari kugenda iruhande rw'umurima w'ibigori, batwaye amabuye, yifashishwa mu kubaka ibikorwa bitandukanye, mu gihe haba habaye ibikorwa by'umuganda rusange.

Ni urubyiruko rwiganjemo abasore n'inkumi, barimo bagenda mu muhanda. Bose bikoreye amabuye, bari mu gikorwa cy'umuganda cyo kubaka ibikorwaremezo bitandukanye.

Ni inyubako nziza cyane yiganjemo ibyumba bitandukanye ndetse ibitsemo n'ibikoresho bitandukanye. Ni inyubako ya Leta bigaragara ko irindiwe umutekano cyane kubera ibikoresho by'agaciro bibitswemo.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru, kigaragara ko ari ikibuga giteye imbere cyane. Kirimo abakinnyi bari gukina bashaka gutwara igikombe bombi, ab'ikipe imwe bambaye imyenda y'ubururu, naho abo bahanganye bambaye imyenda y'umuhondo.

Ni abakinnyi b'umupira w'amaguru bari mu kibuga bakina. Bamwe bambaye imyenda y'umuhondo, abandi bambaye imyenda y'umukara, bombi bakaba bambaye amasogisi maremare agera mu mavi. Ni amakipe abiri ari guhanganira igikombe.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru kigari cyane cyiganjemo abakinnyi bambaye inifomo z'ubururu bari gukina umupira, iruhande rwacyo hari abandi bantu b'ingeri zitandukanye baje gufana abakinnyi bakina mu makipe yabo.

Ni bana bitabira ibikorwa bitandukanye bya siporo, harimo nko gusimbuka, kwirukanka ndetse bambaye imidari bahawe kuko batsinze amarushanwa atandukanye y'imikino bagiye bitabira.

Ikibuga cy'mupira w'amaguru kiza cyane, kirimo abakinnyi b'amakipe atandukanye, aho umwe wambaye agapira k'umuhondo, afite icyapa kinini cyane cyanditseho inyuguti zandikishije amabara y'umuhondo ndetse n'umutuku.

Ikibuga kigari cyane cy'umupira w'amaguru, kirimo abakinnyi babiri b'amakipe atandukanye, aho buri wese ari guhangana n'undi ashaka gutsinda igitego kugira ngo babashe gutahana insinzi.

Ni ikibuga cy'umupira w'amaguru kinini cyane kiri gukinirwamo n'abakinnyi b'amakipe atandukanye, iruhande rwacyo hakoraniye abanyeshuri batandukanye aho baje kureba uko amakipe akina ndetse n'ikipe iributware igikombe iyo ari yo.

Ni umuhanda munini wa kaburimbo iruhande rwawo hakikijwe n'ubusitani, abaturage bo muri aka gace bitabiriye siporo rusange, ni byiza ko twitabira siporo nk'iyi rusange kugira ngo tubashe kugorora imibiri yacu igire ubuzima bwiza.

Ni ku kibuga cy'umupira w'amaguru higanje abafana batandukanye cyane bicajwe mu ntebe nziza cyane ndetse bakaba bishimiye cyane abafana amakipe yabo harimo abagaragara nk'abishimye cyane kuko amakipe yabo yatsinze ariko abandi bo ikipe yabo yatsinzwe ntabwo bishimye.

Iki ni ikibuga cy'umupira w'amaguru, kiganjemo abakinnyi b'amakipe abiri atandukanye, ikipe imwe ifite abakinnyi bambaye imyenda y'umuhondo ndetse n'amasogisi maremare, hakaba n'abandi b'iyindi kipe, ihanganye n'iyo y'abambaye imyenda y'umuhondo, bo baka bambaye imyenda y'ubururu.

Umugabo wambaye agapira k'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, arimo aragenda mu muhanda wa kaburimbo iruhande rwawo hari inyubako nziza cyane, zikikijwe n'ubusitani bwiza bwiganjemo indabo ndetse n'ibiti byinshi.

Imodoka y'ubururu ifite amapine y'umukara iparitse mu mbuga ahantu bigaragara ko atari mu muhanda w'ibinyabiziga bisanzwe ahubwo ari mu muhanda w'abanyamaguru, mu Rwanda tumenyereye ko nta kinyabiziga kivogera aho abanyamaguru banyura.

Umuhanda munini cyane wa kaburimbo, uri hagati y'udusantere tubiri turimo inyubako nziza. Umuturage wambaye agapira k'umutuku ndetse n'ipantaro y'umukara, arimo aragenda mu gahanda kagenewe abanyamaguru. Ni byiza kubahiriza amategeko y'umuhanda.

Umuhanda w'amabuye azwi nk'amakoro aho hari kugendamo moto nziza cyane yihuta, ni byiza gukoresha neza umuhanda nk'uyu kuko hakunze kuberamo impanuka, tugomba kuwukoresha neza tubungabunga ubuzima bwacu.

Umuhanda wa kaburimbo wifashishwa mu rujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibinyabiziga, iruhande rwawo hari ubusitani ndetse n'utuyira tw'abanyamaguru banyuramo, ni byiza kubukoresha neza kugira ngo hirindwe impanuka zitandukanye zikunze kubera mu mihanda.

Ni inyubako nziza iherereye muri centre iteye imbere. Irimo umuhanda wa kaburimbo ndetse n'undi muhanda w'abanyamaguru. Ni byiza ko abanyarwanda ndetse n'abandi bantu bose bamenya imikoreshereze y'umuhanda, bakanyura mu nzira zikwiriye kugira ngo hagabanywe ikibazo cy'impanuka.